Umuntu uhagaze ufite uruhu rwirabura, wambaye ikanzu isa umutuku, inyuma ye hicaye abantu benshi cyane batandukanye, bambaye imyenda itandukanye, bari ahantu hatwikiriye.

Icyumba gisa umweru cyicayemo abantu benshi cyane batandukanye, abagore ndetse n'abagabo, bicaye ku ntebe zisa umukara ku meza zabo hariho ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Icyumba kinini cyane gisize irange ry'umweru, kimanitsemo ibishushanyo byinshi cyane bitandukanye ndetse hari n'ibimera bisa icyatsi byicayemo abagabo bafite uruhu rwera ndetse n'uruhu rwirabura.

Icyumba gisa umweru cyicayemo abantu benshi batandukanye bambaye imyenda y'ubururu bicaye ku ntebe z'umutuku, imbere yabo hari umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse na karuvati y'ubururu.

Umugore wicaye ufite imisatsi y'umukara, wambaye ishati y'ubururu, ufite icupa ry'amazi imbere ye, wicaye ku ntebe y'umweru ndetse ufite imeza iriho igikoresho cy'ikoranabuhanga.

Icyumba kinini cyane cyicayemo abantu benshi cyane batandukanye, bicaye ku ntebe ndetse bafite n'imeza ziriho amazi yo kunywa ndetse n'utwapa turiho inyuguti z'isa umweru ndetse n'amabara y'umweru n'ubururu.

Abantu benshi cyane batandukanye bafite uruhu rwirabura bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, bicaye ku ntebe ndetse hari n'imeza iteretseho amazi yo kunywa.

Icyumba kinini cyane cyicayemo abantu bafite uruhu rwirabura bicaye ku ntebe zisa umukara ndetse bafite imeza imbere yabo iteretseho ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo mudasobwa.

Icyumba cyicayemo abantu benshi cyane bafite uruhu rwirabura, bambaye imipira y'ubururu ndetse bicaye ku ntebe zisa umutuku, bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'uducupa tw'amazi yo kunywa.

Umugabo ufite uruhu rwirabura, uhagaze wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'umupira, imbere ye hari imeza ndende cyane isa umutuku, iruhande rwe hicaye abantu benshi cyane batandukanye.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu ndetse n'amarinete n'undi wambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru n'amarinete bicaye mu ntebe bafite imeza iteretseho mudasobwa ebyiri ndetse n'igikapu.

Icyumba kirimo abantu bafite uruhu rwirabura benshi cyane kandi batandukanye, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye harimo abahagaze ndetse n'abandi bicaye ku ntebe zikoze mu mbaho.

Icyumba kinini cyane, kicayemo abagabo benshi cyane, bambaye imyenda itandukanye, bicaye ku ntebe z'umukara, ndetse bafite imeza ziteretseho amazi ndetse n'ibindi bintu byose byo kunywa.

Icyumba kinini gisize irangi ry'umweru, cyicayemo abantu benshi cyane batandukanye, bambaye imipira isa ubururu bicaye ku ntebe z'umweru ndetse n'imeza ziteretseho amazi yo kunywa.

Abantu bafite uruhu rwirabura bambaye imyenda itandukanye ifite amabara atandukanye bicaye ku ntebe zisa umukara ndetse n'imeza iriho igitambaro cy'umweru.

Abagabo babiri ndetse n'umugore umwe bafite uruhu rwirabura bicaye ku ntebe zisa umweru ndetse bafite imeza zisa umweru, ziteretseho amazi ndetse n'ibindi binyobwa byo kunywa.

Icyumba kinini cyane gisa umweru, kirimo amatara y'umweru, cyicayemo abantu benshi cyane batandukanye, bicaye ku ntebe zisa umutuku ndetse bafite imeza nyinshi cyane, ziriho igitambaro cy'umuhondo.

Abantu benshi cyane kandi batandukanye bafite uruhu rwirabura bambaye imipira ifite amabara atandukanye bicaye ku ntebe zisa ibara ry'umweru mu ntoki zabo bafite ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga.

Icyumba kinini cyane cyicayemo abantu benshi cyane batandukanye, harimo abagore ndetse n'abagabo bicaye ku ntebe ndetse bafite imeza ziteretseho uducupa tw'amazi yo kunywa.

Icyumba kinini cyane kiberamo inama kirimo abantu benshi cyane batandukanye, bicaye ku ntebe z'umukara ndetse hari n'ibyuma bikoreshwa mu itangazamakuru, mu buryo bwinshi butandukanye.

Abantu benshi cyane batandukanye bafite uruhu rwirabura bicaye ku ntebe bambaye imyenda itandukanye, imbere yabo hari imeza iriho ururabyo.

Icyumba kinini cyane kirimo abantu benshi cyane batandukanye, abagore ndetse n'abagabo bicaye ku ntebe z'umuhondo ndetse bari ku meza zisa umweruru, bafite uducupa tw'amazi imbere yabo.

Icyumba kinini cyane gisa umweru cyicayemo abagabo ndetse n'abagore bambaye imyenda myinshi cyane itandukanye, ndetse giteretsemo imeza ziriho ibitambaro by'umutuku ndetse n'uducupa tw'amazi yo kunywa.

Icyumba kinini cyane cyicayemo abantu benshi cyane bafite uruhu rwirabura, bambaye imyenda myinshi cyane itandukanye bicaye ku ntebe z'umukara ndetse nameza ziriho ibitambaro by'umweru.

Icyumba kinini cyane kirimo amatara, gisize amabara atandukanye gihagazemo abagabo ndetse n'abagore bambaye imyenda itandukanye, harimo intebe ndetse n'imeza.

Ahantu hatwikiriye hari abantu benshi cyane batandukanye, abagore ndetse n'abagabo bambaye imyenda irimo amabara y'umweru, umuhondo ndetse n'umukara n'andi mabara menshi atandukanye.

Abantu benshi cyane batandukanye, bicaye, imbere yabo hari umugore wambaye imyenda itandukanye, ufite uruhu rwirabura, inyuma ye hari intebe z'umukara ndetse n'imeza z'umweru.

Icyumba kinini cyane kicayemo abantu benshi cyane batandukanye harimo abagore ndetse n'abagabo bafite uruhu rwirabura bicaye ku ntebe ndetse n'imeza ziriho ibitambaro by'umukara.

Icyumba kinini cyane gisize irangi ry'umweru, cyicayemo abantu benshi cyane batandukanye, barimo abagore ndetse n'abagabo, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, bicaye ku ntebe zisa umukara, imbere yabo hari imeza ziriho ibintu byinshi bitandukanye.

Abagabo batatu bafite uruhu rwirabura bambaye imyenda itandukanye ndetse n'umugore wambaye imyenda, bicaye ku ntebe zisa umukara ndetse n'imeza isa umutuku.

Icumba kinini cyane, giteye amarangi y'amabara qatandukanye ndetse kicayemo abantu benshi batandukanye , abagore ndetse n' abagabo bicaye ku ntebe ndetse bafite n' imeza ziteretseho amazi yo kunywa.

Icyumba kinini cyane kirimo abantu benshi batandukanye, harimo abagore n'abagabo bicaye ku ntebe, ziriho umwenda w'umweru ndetse n'imeza ziriho umwenda w'umweru, hateretseho amazi yo kunywa.

Icyumba kinini cyane cyicayemo abantu benshi barimo abagore ndetse n'abagabo, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, bicaye ku ntebe ndetse bafite imeza ziriho umwenda w'icyatsi.

Icyumba kinini cyane gisize irangi ry'umweru, kicayemo abagabo benshi cyane batandukanye, bafite uruhu rwirabura, bicaye ku ntebe z'umukara, ndetse bafite imeza zisa umutuku, n'ibikoresho by'ikoranabuhanga imbere yabo.

Ahantu hanini cyane hatwikiriye hasa ibara ry'umweru, hicayemo abantu benshi cyane kandi batandukanye bafite uruhu rwirabura, bambaye imyenda ifite amabara menshi cyane kandi atandukanye.

Icyumba kinini cyane cyateraniyemo abagabo ndetse n'abagore, harimo abafite uruhu rwera ndetse n'uruhu rwirabura aho harimo abambaye amakote, hakaba harimo n'abambaye amarinete ndetse hakaba higanjemo n'abagore bambaye imyenda y'umutuku.

Icyumba kinini cyane cyicayemo abantu batandukanye harimo abahungu ndetse n'abakobwa, bicaye ku ntebe ndetse bafite imeza ziteretseho uducupa twamazi yo kunywa.

Icyumba kinini, cyane cyicayemo abantu benshi cyane kandi batandukanye, bafite uruhu rwirabura, bicaye ku ntebe zifite amabara atandukanye, ndetse imbere yabo hari imeza, iteretseho amazi, ndetse n'ibipapuro byinshi cyane.

Icyumba gisa umweru kirimo ibyapa byinshi bitandukanye cyicayemo abantu benshi cyane batandukanye, bafite uruhu rwirabura bambaye imyenda itandukanye bicaye ku ntebe ndetse bafite n'imeza nini cyane.

Uburyo bworoshye cyane ushobora kubona ibikorwa byose bya leta, ndetse n'ibindi bintu byose bitandukanye, ukabikora utavuye aho uri ukoresheje igikoresho cy'ikoranabuhanga cyawe.

Inzu zitandukanye nyinshi cyane zifite ibirahure by'ubururu ndetse ziteyemo amarangi y'umweru, zifite imbuga ziteyemo ibimera byinshi cyane bisa icyatsi ndetse imbere yazo hari imbuga iri kugendamo abantu.

Imbuga nkoranyambaga z'ikigo cy'igihugu cy'u Rwanda zerekana ibintu byose bashobora kugukorera mu gihe ubagannye unyuze ku mbuga nkoranyambaga zabo.

Icyumba kinini cyane gisize amarangi y'mweru, cyicayemo abantu benshi batandukanye bicaye ku ntebe ndetse bafite n'imeza ziteretseho ibintu byinshi cyane bitandukanye.

Uburyo butandukanye bw'ikoranabuhanga bwifashishwa n'ibigo by'imari ndetse n'ibindi byinshi by'abikorera mu gihe bari kwinjiza cyangwa se basohora ku mbuga nkoranyambaga zabo abantu babikoramo cyangwa se n'abandi batabikoramo.

Inzu zubakishijwe amatafari iruhande rwazo hateye ibimera birebire ndetse n'ibigufi bifite amabara atandukanye iruhande rwabyo hari igikorwa remezo cyifashishwa mu itumanaho ry'abantu.

Icyumba kinini cyane gisa umweru, kirimo abantu benshi cyane batandukanye, bicaye ku ntebe ndetse bafite mudasobwa ziteretse ku meza nyinshi cyane zitandukanye, aho bari kuzirebamo.

Umuhanda munini cyane uri kugendamo ibinyabiziga bibiri bitwawe n'abantu, ndetse iruhande rwaho hari igikorwaremezo gifite amabara y'umweru n'umutuku, cyagenewe mu kwifashishwa mu itumanaho ry'abantu.

Uburyo bw'ikoranabuhanga, bwifashishwa mu kwereka ndetse no gushishikariza abaturage, uburyo ki bakwirinda indwara zitandukanye, mu buryo bwinshi butandukanye, bitewe n'uko izo ndwara zandura.

Uburyo igihugu gishishikariza abaturage mu kwishyura ingendo zabo badakoresheje amafaranga ahubwo bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga bugezweho.

Ahantu hari inzu zubakishijwe amatafari ndetse hari n'ibimera bitandukanye byinshi cyane, hari n'ibikorwa remezo byifashishwa mu itumanaho ry'abantu bari kure y'abandi.

Igikorwa remezo cy'ikoranabuhanga gikozwe mu bikoresho by'ibyuma, gisize irangi risa icyatsi ndetse kiriho n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga cyifashishwa mu itumanaho ry'abantu.

Imbuga nini irimo ibimera birebire ndetse n'ibigufi, yicayemo abantu bambaye imyenda itandukanye, ndetse hari ibinyabiziga bitandukanye birimo amagare ndetse n'ibindi, hari abantu bicaye mu gisharagati.

Inzu nyinshi cyane zitandukanye, iruhande rwazo hari ibimera byinshi cyane bitandukanye ndetse n'ibikorwaremezo byifashishwa mu itumanaho ry'abantu batari kumwe.

Icyumba kinini cyane gisizemo irangi ry'umweru, gifite inzugi, cyicayemo abantu benshi cyane batandukanye bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, bicaye ku ntebe ndetse bafite imeza ziriho mudasobwa.

Uburyo butandukanye bwifashishwa n'igihugu cyangwa se ikigo cy'abikorera, kugira ngo bereke ndetse banamenyeshe abantu ko bari gutanga akazi mu nzego zitandukanye.

Uburyo bworoshye kandi bwihuse wakoresha uri kwishyura imisoro ndetse n'ibindi bintu byose bitandukanye; mu gihe utarakererwa ngo bagushyireho amande.

Igikorwa remezo kirekire cyane gikozwe mu byuma gifite ibara ry'umweru ndetse n'umutuku cyifashishwa mu ikoranabuhanga rihuza abantu n'itumanaho ryabo.

Ubutumwa bw'ikoranabuhanga, bushushanyijeho ibintu byinshi cyane ndetse bwanditseho amagambo menshi cyane n'ibirango bitandukanye, bushishikariza abantu kwizihiza umunsi w'abakozi.

Abantu benshi cyane batandukanye harimo abafite uruhu rwirabura ndetse n'abandi bafite uruhu rwera bambaye imyenda itandukanye bicaye ku ntebe ndetse bafite n'imeza zitetseho ibintu byinshi bitandukanye.

Abantu batatu bahagararanye bari kureba muri mudasobwa zabo, harimo umuhungu umwe wambaye umupira w'umweru ingofero, ndetse n'agapfukamunwa, n'undi wambaye ishati y'umweru ufite ikaye mu ntoki n'ipantaro y'umukara, wambaye agapfukamunwa.

Uburyo bwizewe kandi bwihuta bw'ikoranabuhanga ni ibigo byikorera ndetse n'abandi bantu bakoresha mu gihe bakeneye abakozi bo gukora mu myanya myinshi cyane itandukanye.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga gisa ibara ry'umukara cyifashishwa mu gihe bagiye kujyana umuriro mu baturage giteretse hasi ku butaka.

Ibimera bisa icyatsi biteye iruhande rw'umuhanda munini cyane urimo amabara y'umukara n'umweru uri kunyuramo abantu ndetse n'ibinyabiziga byinshi cyane bitandukanye.

Ibikorwa remezo bishyira abaturage amashanyarazi yo gucana mu nzu zabo ndetse no gucana ahandi hantu henshi hatandukanye, biri imbere y'amazu abiri afite amabara atandukanye.

Abagabo babiri bambaye imyambaro y'akazi isa ubururu ndetse n'ingofero zisa umuhondo, bari hejuru y'ibikorwa remezo by'amashanyarazi yegereye abaturage.

Ibikorwaremezo birebire cyane byifashishwa mu kwegereza abaturage amashanyarazi biri iruhande rw'amazu menshi atandukanye afite amabara atandukanye.

Ibikorwa remezo byinshi cyane byegereza kandi biha abaturage amashanyarazi yo gucana mu ngo zabo, bikikijwe n'ibihingwa byinshi cyane bitandukanye, biri ku buso bunini cyane.

Ibinyabiziga byinshi cyane bitandukanye bifite amabara atandukanye bitwaye abantu ndetse n'imizigo bihagaze iruhande rw'ahantu hari ibikorwaremezo bijyana amashanyarazi mu baturage ndetse hari ibimera birebire ndetse n'ibigufi.

Imbuga iteyemo ibimera byinshi cyane, ibirebire ndetse n'ibigufi. Hari n'ibikorwa remezo bitandukanye, byifashishwa mugutanga ndetse no kugeza amashanyarazi mu baturage.

Inzu nini cyane, isakajwe n'amabati yo mu bwoko bw'amategura, iteretseho igikoresho cy'ikoranabuhanga, cyagenewe gushyushya amazi, abantu bagiye gukaraba.

Ibipangu bibiri byegeranye bikikijwe n'ibyatsi biri mu mabara atandukanye, ndetse hari n'igiti kirekire cyane kiriho insinga zifashishwa mu gutanga amashanyarazi ku baturage ku ntera nini cyane.

Imbuga nini cyane yerurutse iteretsemo ibikoresho byinshi cyane bitandukanye bisa umweruru, umutuku ndetse hahagaze abantu benshi cyane batandukanye bafite ibikoresho bitandukanye.

Igikorwa remezo kinini cyane, gikozwe mu byuma, kiri ahantu hari ibimera byinshi cyane, bifite amabara atandukanye, iruhande rwaho, hari umuhanda munini cyane, uri kugendamo abantu benshi cyane batandukanye.

Inzu nini cyane isize irange rifite amabati asa umutuku ndetse ifite igipangu gisa umukara kiriho icyapa kiriho imibare ibiri ndetse n'itara hejuru yacyo.

Igikoresho cy'ifashishwa mu gutanga ndetse no kugeza ku bantu amashanyarazi anyuze mu nsinga ndetse anyuze no mu bintu byinshi bitandukanye aho byegerezwa abaturage iruhande rw'amazu yabo.

Inzu ndende cyane ndetse nini iriho amabara menshi atandukanye ihagazemo umuntu ndetse iteyeho ibyapa byinshi bitandukanye, imbere y'aho hari igikorwa remezo cyegereza amashanyarazi ku baturage.

Abantu bari kugenda mu muhanda, bambaye imyenda itandukanye ndetse ifite amabara atandukanye, iruhande rwabo hari ibimera byinshi cyane bitandukanye ndetse n'ibikorwa remezo bishyira abaturage amashanyarazi.

Igikorwa remezo kirekire kandi gikomeye, gikozwe mu byuma cyifashishwa mu kugira ngo bageze ndetse banegereze ku baturage umuriro w'amashanyarazi unyuze mu kirere.

Inzu nini cyane, zifite amabati y'umukara ndetse iruhande rwaho hari ibikorwa remezo, bishyira abaturage amashanyarazi ndetse hari n'ibimera byinshi cyane, birebire ndetse n'ibigufi.

Ibikorwaremezo birebire cyane bikozwe mu bikoresho by'ibyuma, byifashishwa mu kugeza ndetse no kwegereza ku baturage amashanyarazi igihe cyose bayakeneye.

Inzu yubakishijwe amatafari ndetse ifite amabati, iruhande rwayo hari ibimera birebire ndetse n'ibigufi ndetse n'igikorwaremezo cyagenewe kwegereza abaturage amashanyarazi no kuyabashyira.

Inzu nyinshi cyane zitandukanye zubakishijwe amatafari, zegeranye n'igikorwa remezo cyifashishwa mu kwegereza ndetse no gushyira abaturage amashanyarazi aturutse mu kirere.

Abantu bahagaze iruhande rw'ibimera ndetse n'ibikorwa remezo byifashishwa mu kwegereza ndetse no gushyira abaturage batandukanye ibintu byose bikenewe by'amashanyarazi.

Inzu nyinshi cyane zitandukanye zifite amabara atandukanye, imbere yazo hari umuhanda usa umukara uhagazemo ibinyabiziga bifite amabara atandukanye.

Icyumba kinini cyane gisizemo irangi ry'umweru gifite amadirishya arimo ibirahure, gihagazemo igare ry'abafite ubumuga ndetse kirimo intebe zikozwe mu byuma.

Igikoresho gisa umutuku, cyifashishwa mu gihe bagiye kuzimya ahateye umuriro, kimanitse ku gikuta gisa umuhondo, ku nzu ifite inzugi ndetse n'idirishya ikorerwamo ibintu bitandukanye.

Inzu nini cyane, ifite amabara y'umuhondo ndetse n'umweru, ifite inzugi ndetse n'amadirishya, imbere yayo hahagaze umuntu ndetse ifite imbuga nini cyane, ikoreshejwe amabuye.

Inzu nini cyane zisa umuhondo zifite n'amadirishya zifite ahantu abantu bagendera hatwikiriye ndetse n'ikigega gifata amazi aturutse ku mabati.

Icyumba kinini cyane gisa umweru giteretsemo ameza ndetse n'intebe, gihagazemo umugabo wambaye impuzankano y'umweru ndetse n'intebe yicayemo umugore bari gusuzuma.

Igikuta kinini cyubakishijwe amatafari kiriho itara ry'umweru ndetse n'icyapa gifite ibara ry'umweru kiriho inyuguti z'umukara ndetse n'ikirango gisa icyatsi.

Inzu ndende cyane zifite amabati y'umutuku ndetse zubakishijwe amatafari, zifite inzugi ndetse n'amadirishya n'imbuga iteyemo ibimera byinshi cyane kandi bitandukanye.

Abantu benshi cyane batandukanye bari kujya mu byerekezo bitandukanye, harimo abambaye imyenda y'umutuku, abambaye imyenda ya move ndetse n'abambaye imyenda ya kaki bari iruhande rw'urugo runini cyane.

Icyapa kinini cyane cy'ubururu ndetse n'umweru, cyanditseho inyuguti z'umweru ndetse n'izindi z'umukara, inyuma yacyo hari ikindi cyapa gifite ibara ry'umweru, cyandikishijweho inyuguti z'umukara.

Icyumba kinini cyane gifite umuryango urimo ibirahure cyicayemo abantu benshi cyane batandukanye harimo abagore ndetse n'abagabo bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho ndetse n'ibyuma.

Icyumba kinini cyane cyicayemo abantu benshi batandukanye harimo abambaye imyenda y'iroza, abambaye imyenda y'umukara, abambaye imyenda y'icyatsi, ndetse n'abambaye udupfukamunwa.

Umugabo ufite uruhu rwirabura wambaye imyenda myinshi itandukanye, irimo amabara y'umutuku, umweru, umukara, ndetse n'umuhondo.

Umugore uhagaze wambaye imyenda y'ubururu, uri kuvuga ijambo utwikiriwe n'igitambaro gisa umweru gifasheho ibindi bitambaro bibiri by'umuhondo ndetse ni cyatsi.

Uburyo bugezweho bukoreshejwe ikoranabuhanga abantu bakoresha bagira ngo bamenyeshe amategeko y'ibintu bitandukanye agere ku bantu kandi atabagoye mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Abagabo benshi cyane batandukanye, bari ku gipapuro gisa umukara, cyanditsweho n'inyuguti zisa umukara, ndetse n'izindi nyinshi cyane zisa umweru, hariho n'umubare w'amafaranga menshi cyane.

Icyumba kinini cyane kirimo abantu benshi cyane, harimo abahagaze ndetse n'abandi bicaye bafite uruhu rwirabura, bicaye ku ntebe z'umukara ndetse bambaye imyenda isa.

Abantu batatu bafite uruhu rwirabura bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, bicaye ku ntebe ndetse bari ku meza iteretseho ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo mudasobwa.

Imbuga nini cyane itwikiriye, yicayemo abantu benshi cyane batandukanye, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, bicaye ku ntebe zikozwe mu bikoresho by'imbaho.

Icyumba kinini cyane gisa umweru, gihagazemo abantu barimo abagore ndetse n'abagabo bafite uruhu rwirabura, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye.

Icyumba kinini cyane gifite amadirishya ndetse n'inzugi zifite ibirahure gihagazemo abagabo bambaye imyenda itandukanye ndetse n'abandi bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho.

Icyumba gisize ibara ry'umweru cyicayemo abantu benshi cyane batandukanye, bambaye imyenda y'umukara ndetse n'umweru, bicaye ku ntebe imbere yabo hari imeza.

Imbuga nini cyane irimo ibimera byinshi cyane bitandukanye, ihagazemo abantu benshi harimo abagore ndetse n'abagabo bambaye imyenda itandukanye, bafite icyapa cyanditseho inyuguti z'umukara ndetse n'ibirango bitandukanye.

Igipangu kinini cyane gifite amabara y'umuhondo ndetse n'umukara, kiriho icyapa cyanditseho inyuguti z'umukara, ndetse inyuma yacyo hari ibimera birebire ndetse n'ibigufi bitandukanye.

Uburyo bwifashishwa n'igihugu kugira ngo berekanwe abaregwa ndetse n'ibyaha bagiye bakora, binyujijwe k'urupapuro rusa rw'umweru rwanditseho inyuguti z'umweru ndetse n'ubururu.

Abantu benshi cyane bicaye ndetse harimo n'abahagaze, bambaye imyenda myinshi cyane itandukanye ndetse iruhande rwabo hateye ibimera byinshi cyane bitandukanye.

Igipangu kinini cyane, kiriho icyapa gisa umweru, kiriho amagambo yandikishijwe inyuguti z'umukara, kiriho ibirango bibiri, mo imbere mu gipangu harimo abagabo batandukanye, bambaye imyenda isa kaki.

Umugabo uhagaze mu nzu nini cyane isa umweru, itereretsemo utubati twinshi cyane, turimo ibikarito byinshi cyane bitandukanye, bibitsemo ibintu byinshi cyane bitandukanye.

Icyumba cyubakishijwe amatafari, kirimo abantu benshi cyane bafite uruhu rwirabura, harimo abahagaze bambaye imyenda y'umukara, ndetse n'abandi bicaye ku ntebe zisa ibara ry'umweru.

Igikoresho cy'umutuku ndetse n'ikindi cy'umweru, bimanitse ku gikuta, aho byifashishwa mu gihe bagiye kuzimya ahantu hose hafashwe n'inkongi y'umuriro, mu baturage begereye aho ibyo bikoresho biri.

Igikoresho gitoya gisa ibara ry'umutuku cyifashishwa mu gihe bagiye kuzimya ahantu haje inkongi y'umuriro kimanitse ku gikuta gifite ibara ry'umweru.

Ibikoresho biri ku gikuta cy'umweru bisa umutuku ndetse n'umweru byifashishwa mu gihe habaye inkongi y'umuriro ahantu byegereye bigakoreshwa bihazimya.

Umuhanda munini cyane urimo amabara y'umweru ndetse n'umukara uri kunyuramo ibinyabiziga byinshi cyane kandi bitandukanye biri kujya mu byerekezo bitandukanye.

Imbuga nini cyane ihagazemo abantu benshi cyane bambaye imyenda itandukanye ndetse hari n'imeza iteretseho ibikoresho bisa umutuku ndetse n'ibindi bikoresho byinshi cyane bitandukanye.

Ahantu hari ibimera bisa icyatsi hari umugabo wafunguye amazi menshi cyane ari kumeneka mu mbuga, imbere y'igipangu gisa umutuku ndetse n'inzu ifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Icyapa kinini cyane gifite ibara ry'umweru cyanditseho inyuguti, ndetse n'imibare biri mu ibara ry'ubururu ndetse kiriho ibirango bibiri bitandukanye munsi yacyo hari ibimera bigufiya ,ndetse n'ibirebire.

Ibiti birebire cyane kandi byinshi, n'ikirere gisa ubururu, ndetse n'icyapa cy'umweru, kiriho inyuguti z'umukara nyinshi cyane, hariho n'ibirango bibiri bitandukanye, bishushanyije mu mabara menshi cyane atandukanye.

Inzu zitandukanye ndetse n'umuhanda uri kunyuramo ibinyabiziga ndetse n'abantu, iruhande rwaho hari imbuga ihagazemo abagabo babiri bambaye inifomu z'akazi ndetse n'ikinyabiziga cyabo.

Abantu bafite uruhu rwirabura bambaye imyenda y'umweru n'icyatsi ndetse n'umugore wambaye ikote ry'umweru n'umupira w'icyatsi wicaye kumeza iriho igitambara cy'icyatsi.

Icyumba gifite amadirishya cyicayemo umugore ufite uruhu rwirabura wambaye ikanzu irimo umweru irimo n'andi mabara y'umukara wicaye ku ntebe ifite ibara ry'umweru kandi ikozwe mu giti.

Ihema rinini cyane risa ibara ry'umweru ryicayemo abantu benshi cyane kandi batandukanye, imbere yaryo hari irindi hema ritoya rihagazemo umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro, imbere ye hari abantu benshi cyane kandi batandukanye.

Umuntu ufite uruhu rw'irabura wambaye umupira usa umweru ufite ikintu ari kwandikisha ku mpapuro zisa umweru uri kumeza isa umukara.

Umugore wicaye ufite umubiri wirabura, uri kumwe n'abana babiri harimo umuhungu mutoya wambaye ikote, ndetse n'undi muhungu mutoya wambaye ikote na karuvati.

Umugore ufite umubiri wirabura wambaye ikote ndetse n'umupira bifite amabara atandukanye, wicaye ku ntebe isa umukara inyuma ye hari ibitambaro bifite amabara atandukanye.

Igipapuro kinini cyane gisa umweru cyanditseho inyuguti z'umukara ndetse n'imibare y'umukara, kiriho ibimenyetso ndetse n'ibishushanyo biri mu mabara atandukanye.

Abantu benshi cyane barimo abagore ndetse n'abagabo bafite uruhu rwirabura, bahagaze mu muhanda, bambaye imyenda ifite amabara menshi cyane kandi atandukanye.

Abantu benshi bari kugendera hamwe harimo abagore ndetse n'abagabo, harimo abagabo bambaye imyenda y'umweru ndetse n'abagore bambaye imyenda y'umweru n'abandi benshi bambaye imyenda y'icyatsi bafite amadarapo.

Imbuga nini cyane ihagazemo abantu benshi cyane kandi batandukanye, harimo abagore ndetse n'abagabo bambaye imyenda ifite amabara atandukanye bahagaze ku murongo buri wese inyuma y'undi.

Abantu babiri bafite uruhu rwirabura bahagaze bambaye imyenda itandukanye, ndetse n'abandi bantu babiri bicaye ku ntebe zisa icyatsi, ndetse n'imeza isa umutuku.

Umugore ndetse n'umugabo bose bahagaze bafite uruhu rwirabura, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye bafashe ku gitambaro kirimo amabara menshi cyane atandukanye.

Umuntu ufite uruhu rwirabura, wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, inyuma ye hari ahantu hanini cyane, hasa ubururu handitseho inyuguti ndetse hari n'ikirango gisa umweru.

Abantu benshi cyane kandi batandukanye bicaye ku ntebe imbere yabo hari imeza irihogitambaro cyu'bururu ndetse hahagaze umugabo wambaye imyenda itandukanye.

Icyumba kinini cyane, kirimo amatara, cyicayemo abantu benshi cyane, bambaye imyenda itandukanye, bicaye ku ntebe zisa umukara, imbere yabo hateretse ameza iriho ibintu byinshi bitandukanye.

Umugabo uri ahantu hasi umukara, ufite uruhu rwirabura, wambaye ibimufasha kureba neza, wambaye ndetse ishati y'mweru, ndetse na karuvati irimo amabara y'umutuku n'umweru.

Icyumba kinini cyane cyicayemo abantu benshi cyane batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore bambaye imyenda ifite amabara atandukanye bicaye ku ntebe z'umukara ndetse imbere yabo hari imeza.

Ibinyabiziga byinshi cyane bitandukanye, bihagaze mu mbuga irimo abantu benshi cyane batandukanye, bari kugenda, aho byitegeye inzu ndende cyane, zirimo amatara y'umweru.

Umuhanda munini cyane uhagazemo ibinyabiziga byinshi cyane bitandukanye, ndetse n'abantu benshi cyane harimo abagore ndetse n'abagabo bahagaze muri uwo muhanda.

Imbuga nini cyane ihagazemo ibinyabiziga bibiri binini cyane bifite ibirahure ndetse n'amabara menshi cyane atandukanye arimo ay'ubururu, umweru ndetse n'umukara.

Umuhanda munini cyane uhagaze mu ikinyabiziga gifite amabara arimo ubururu umweru ndetse n'umukara ukaba uhagazemo n'abantu benshi cyane batandukanye.

Umugabo ufite uruhu rwirabura wambaye ikote ipantaro inkweto ndetse n'igikapu uhagaze iruhande rw'ibinyabiziga bibiri bifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara.

Umuhanda munini cyane uhagazemo ibinyabiziga bitandukanye harimo ibyikoreye imizigo ndetse n'ibindi bitikoreye imizigo, uri kunyuramo abantu benshi cyane batandukanye.

Umuhanda munini cyane uri kunyuramo ibinyabiziga bihetse abantu ndetse hahagazemo igare rifite imizigo isa umweru ndetse n'indi isa umuhondo, rihagaze mu nzira.

Ibimera birebire ndetse n'ibigufi, biri iruhande rw'umuhanda munini cyane ,uri kunyuramo ibinyabiziga byinshi kandi bitandukanye, bifite amabara atandukanye ndetse uri kunyuramo n'abantu.

Umuhanda munini cyane uri kunyuramo ikinyabiziga kinini cyane gitwawe n'abantu babiri, gisa ibara ry'ubururu, cyikoreye ibicuruzwa byinshi cyane bitandukanye.

umuferege wubatswe n'amabuye uri iruhande rw'umuhanda munini cyane, uri kunyuramo abantu benshi cyane batandukanye, ndetse n'ikinyabiziga gifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara.

Umuferege munini cyane, uri iruhande rw'umuhanda munini cyane, uri kunyuramo ibinyabiziga byinshi cyane bitandukanye, bitwaye abantu ndetse n'ibindi bitwaye ibintu byinshi bitandukanye.

Imodoka ebyiri z'umweru ndetse ni'imwe y'umukara, zihagaze iruhande rw'inzu nini cyane ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu byinshi bitandukanye, ndetse igirwamo n'abantu benshi batandukanye bagiye gushaka gahunda nyinshi zitandukanye.

Igikuta kinini cyane cyubakishijwe amatafari kiriho ibyapa byinshi cyane bitandukanye, iruhande rwacyo hahagaze ibinyabiziga byinshi cyane kandi bitandukanye, ndetse hari n'umuhanda uri kugendamo abantu benshi cyane.

Umuhanda mugari cyane uri kunyuramo ibinyabiziga byinshi bitandukanye bigannye mu byerekezo bitandukanye aho harimo ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibyikorera ibicuruzwa byinshi bitandukanye.

Umuhanda munini cyane uri kunyuramo ikinyabiziga kinini kandi kirekire gisize ibara ry'umweru, ndetse gifite ibirahure gitwawe n'umuntu, ndetse hakaba hari kunyuramo n'igare ritwawe n'umuntu.

Ibyapa byinshi cyane biteye iruhande rw'umuhanda munini cyane uri kugendamo ibinyabiziga byinshi cyane bitandukanye ndetse iruhande rwawo hateye ibimera byinshi cyane.

Umuhanda munini cyane urimo amabara y'umukara, umweru, ndetse n'umuhondo, hagati yawo hari ibimera birebire ndetse n'ibigufi, uri kugendamo ikinyabiziga.

Umuhanda munini cyane urimo kugendamo umugabo wambaye ikote ry'umukara ndetse nipantaro by'umukara n'ingofero y'umukara, uhagazemo igikamyo kinini cyane gisa umuhondo gifite amapine y'umukara ndetse kirekire cyane.

Umuferege wubakishije amabuye uri iruhande rw'umuhanda munini cyane, uri kugendamo ikinyabiziga gifite amabara y'umweru cyikoreye ibintu byinshi cyane bitandukanye.

Inzu nini cyane ifite ibara ry'ubururu n'inzugi z'umweru, iri iruhande rw'umuhanda munini cyane unyuramo ibinyabiziga byinshi bitandukanye ndetse unyuramo n'abanyamaguru benshi cyane batandukanye.

Umuhanda munini cyane urimo amabara y'umweru ndetse n'umukara, uri kunyuramo abantu benshi cyane batandukanye ndetse uri kunyuramo ibinyabiziga byinshi cyane kandi bitandukanye.

Umuhanda munini cyane ushushanyijemo imirongo y'umweru ndetse ,uhagazemo ibinyabiziga byinshi cyane kandi bitandukanye iruhande rwawo hari ibimera byinshi cyane ibirebire ndetse n'ibigufi.

Umuhanda munini cyane uri kunyuramo abantu ndetse n'ibinyabiziga byikoreye ibicuruzwa bitandukanye ndetse n'ibinyabiziga bitwaye abantu mu ngendo zabo zitandukanye za buri munsi.

Umuhanda uri kunyuramo abantu benshi cyane batandukanye ndetse uri kunyuramo n'ibinyabiziga byinshi cyane bitandukanye, urimo n'igare yikoreye imizigo irimo isa umweru, umuhondo ndetse n'indi myinshi itandukanye.

Umuhanda munini cyane uri kunyuramo ibinyabiziga byinshi cyane kandi bitandukanye ndetse uri kunyuramo umuntu uri gusunika igare ririho umuzigo uri mu mufuka w'umweru.

Inzu zifite amabara atandukanye ndetse n'inzugi nyinshi, ziri iruhande rw'umuhanda munini cyane uri kunyuramo ikinyabiziga gihetse umuntu, kimutwaye ahantu hatandukanye.

Umuhanda munini cyane uhagazemo ibinyabiziga birimo gushyirwaho imizigo n'abantu benshi cyane batandukanye, aho bipakiye ibintu byinshi bitandukanye bijyanywe hirya no hino.

Umuhanda munini cyane uri kunyuramo umugabo wambaye imyenda yumukara ndetse urimo ikinyabiziga kinini cyane gifite amabara y'icyatsi, umweru ndetse n'umukara n'umuhondo.

Umuhanda munini cyane urimo abagabo benshi cyane batandukanye, bafite amagare ndetse n'abandi batayafite, aho bamwe bayicayeho abandi bakaba bahagaze bonyine.

Imbuga iri iruhande rw'umuhanda munini cyane ikaba iparitsemo ikinyabiziga gifite amabara menshi cyane atandukanye, harimo ay'umutuku ndetse n'umuhondo.

Umuhanda munini cyane uri kunyuramo ibinyabiziga byinshi cyane kandi bitandukanye, bifite amabara atandukanye, byose bigiye mu byerekezo bitandukanye, harimo ibitwaye abantu ndetse n'ibitwaye ibintu,

Umuhanda munini cyane urimo imirongo isa ibara ry'umweru, uri kunyuramo ibinyabiziga byinshi cyane bitandukanye bifite amabara atandukanye harimo ibitwara abantu ndetse n'ibitwara imizigo.

Umuhanda munini cyane uri kugendamo ikinyabiziga kinini cyane kandi kirekire gifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu kiriho icyapa gishushanyijeho umuntu ndetse n'ibindi bintu byinshi bitandukanye.

Ahantu hatwikiriye abantu bicara bari kureba imikino itandukanye ibera mu mbuga nini cyane iri imbere y'aho mu gihe baje mu myidagaduro ndetse n'ibindi bintu byinshi bitandukanye.

Icyapa kinini cyane gishyirwa mu muhanda gifite amabara menshi cyane atandukanye arimo amabara y'umweru ndetse n'ibara ry'umutuku kinini cyane kiri hejuru.

Uburyo abantu bakoresha baburira cyangwa se berekana ko imbere gato cyangwa hafi aho hari ibikorwa by'ubwubatsi biri kuhabera kandi ugomba kugenda witonze.

Icyapa kiri ahantu h'umweru gifite amabara abiri atandukanye, umukara ndetse n'umuhondo kereka abanyamaguru ndetse n'abatwaye ibinyabiziga ko bagomba kugenda gakeya.

Icyapa kirekire gifite ishusho rya mpande eshatu gifite amabara atatu atandukanye, harimo umukara, umweru ndetse n'umutuku, giteye iruhande rw'umuhanda munini cyane.

Umuhanda munini cyane urimo amabara y'umweru uri kunyuramo ibinyabiziga byinshi cyane bitandukanye bifite amabara atandukanye harimo ibitwara abantu ku giti cyabo ndetse n'ibitwara abantu benshi.

Ikimenyetso kiri ahantu hasa ibara ry'umweru, gishushanyishijwe mu ibara ry'umukara, gisa nk'icyerekana icyerekezo kiba cyateguwe kugira ngo abantu bagikurikize, bagiye ahantu hatandukanye.

Icyapa kiri ahantu h'umweru. Gifite ishusho ya mpande eshatu, gifite amabara atatu atandukanye, arimo umutuku, umweru, ndetse n'umukara. Kikaba gishyirwa mu muhanda.

Igishushanyo kiri ahantu hasa umweru gifite amabara abiri atandukanye arimo: umutuku ndetse n'umukara, gishushanyijeho imodoka ebyiri ziri mu mabara atandukanye.

Umuhanda mugari cyane urimo amabara y'umweru umukara ndetse unyura mu byerekezo bibiri bitandukanye urimo ibinyabiziga byinshi cyane hari n'ibimera byinshi cyane ibinini ndetse n'ibitoya.

Icyapa kinini cyane kiri ahantu hasa umukara gifite amabara abiri atandukanye y'umukara ndetse n'umuhondo, gishyirwa mu muhanda kugira ngo cyereke abagenzi ndetse n'abatwara ibinyabiziga inzira bacamo.

Umuhanda urimo amabara y'umweru n'umukara ndetse ku ruhande rwaho hari icyapa kirimo amabara y'umweru n'umutuku, hari n'ibikorwaremezo by'amashanyarazi agera ku baturage.

Icyapa kirekire cyane ndetse kinini, gifite amabara abiri atandukanye, umweru ndetse n'umukara, cyereka abagenzi ndetse n'ibinyabiziga ibyerekezo byateganyijwe.

Icyapa kiri ahantu hasa umweru, gifite amabara abiri atandukanye umukara ndetse n'umutuku cyerekana ko imbere gato hari ibikorwa biri gukorwa mu muhanda.

Icyapa kiri ahantu hasa umweru kirimo amabara y'umutuku ,umukara ndetse n'umweru kereka abantu ko imbere gatoya hari ibikorwa byo kubaka ibintu bitandukanye.

Inzu nini cyane iri ahantu hari ibimera byinshi cyane bitandukanye ndetse hari icyapa gifite ibara ry'icyatsi cyanditsweho n'inyuguti z'umweru, cyerekana ibyerekezo bitandukanye.

Icyapa kiri ahantu hasa umweru gifite amabara atatu atandukanye ariyo umutuku, umukara ndetse n'umweru cyerekana ko hari ibinyabiziga bibujijwe kunyura aho hantu.

Icyapa kinini cyane kiri ahantu hafite ibara ry'umweru gifite amabara abiri ariyo ubururu ndetse n'umweru, cyerekana ko imbere gato hari ahantu ibinyabiziga binini biparika.

Umuhanda munini cyane urimo amabara y'umweru ndetse n'umukara uhagazemo umugabo ndetse uri kunyuramo ibinyabiziga bibiri bitandukanye, uteyemo ibimera bigufiya.

Icyapa gifite amabara abiri atandukanye, umukara ndetse n'umuhondo, gishyirwa mu mihanda migari cyane, kugira ngo bereke abagenzi, ndetse n'abatwara ibinyabiziga, ibyerekezo by'imihanda.

Inzu nini cyane kandi ndende isize amarangi y'umukara ndetse n'umweru, iriho amadirishya menshi cyane kandi afite ibirahure, iriho n'ibyapa byinshi bitandukanye.

Inzu nyinshi cyane, indende ndetse n'ingufi zikorerwamo ibintu byinshi bitandukanye, zisize amarangi afite amabara atandukanye, zifite imbuga ihagazemo imodoka, iruhande rwaho hari ibimera birebire cyane.

Inzu nyinshi cyane ndende ndetse n'ingufi ziteye amarangi y'amabara atandukanye ndetse zifite amabati y'amabara atandukanye y'umukara ndetse n'umutuku ziri ahantu hari ibimera byinshi cyane bitandukanye.

Inzu nyinshi cyane kandi zitandukanye ziri iruhande rw'umuhanda uri kunyuramo abantu ndetse uhagazemo ibinyabiziga bitwaye kandi bitwawe n'abantu batandukanye.

Inzu nyinshi cyane indende ndetse n'ingufi, ziteye amarangi y'amabara atandukanye, ziri iruhande rw'umuhanda uriho amabara y'umukara ndetse n'umweru.

Inzu nini cyane kandi ndende cyane, ifite amabara menshi cyane ndetse n'ibirahure n'amabati ndetse n'indi nzu ku ruhande rwayo, iriho icyapa gisa ibara ry'umutuku ndetse kiriho inyuguti nini cyane.

Inzu ifite amabara atandukanye, ifite inzugi ndetse n'amadirishya birimo ibirahure, imbere yaho hari ibimera birebire by'icyatsi ndetse n'ibigufiya.

Inzu nini cyane kandi ndende cyane ifite amabara atandukanye ndetse n'amadirishya arimo ibirahuri by'ubururu, hejuru yaho hateretse agaseke gakozwe mu buryo butangaje.

Inzu zubakishijwe amabati asize amabara menshi cyane atandukanye, imbere yazo hicaye abantu benshi cyane batandukanye ndetse iruhande rwabo hari umuhanda munini cyane.

Inzu nyinshi cyane zirahantu hatandukanye, zifite amabara atandukanye, ndetse zifite amabati afite amabara atandukanye, n'ibimera biziteye iruhande birebire ndetse n'ibigufiya.

Inzu nini cyane isize amabara menshi cyane atandukanye, arimo ubururu ndetse n'umuhondo, ifite inzugi ndetse n'amadirishya, ifite igipangu cyubakishijwe amatafari.

Ibimera byo mu moko atandukanye birebire ndetse n'ibigufi bitandukanye biteye ahantu hanini ndetse bifite amababi manini ariho amabara atandukanye.

Inzu nyinshi cyane zifite amabati y'umutuku ndetse n'umuhanda uri kunyuramo ibinyabiziga byinshi cyane bitandukanye, hari n'ibimera byinshi cyane bitandukanye ibirebire ndetse n'ibigufi.

Inzu nini cyane ifite amabati y'umutuku ikagira inzugi ndetse n'amadirishya, ikaba isize amarangi menshi cyane atandukanye ikaba yubatse iruhande rw'umuhanda mugari cyane umanuka kandi unazamuka.

Inzu nini cyane isa ibara ry'umweru ifite igice cyo hasi abantu bashobora kushakishamo ibyo bahaha, ndetse n'igice cyo hejuru abantu bashobora kuruhukiramo igihe cyose babikeneye.

Inzu nyinshi cyane ziteye amabara y'umuhondo, ziri iruhande rw'umuhanda munini cyane urimo umurongo w'umweru ndetse uri kunyuramo ikinyabiziga gifite ibara ry'umukara ndetse n'amapine y'umukara.

Ahantu hanini cyane hari inzu nyinshi cyane zitandukanye zirimo inini ndetse n'intoya zifite amabati afite amabara atandukanye ndetse hari n'ibimera byinshi cyane bitandukanye.

Inzu nini cyane ikorerwamo ibintu byinshi bitandukanye cyane, ifite imbuga irimo ibyapa bibiri byandikishijweho inyuguti zisa umweru ndetse hahagaze ikinyabiziga gisa ubururu gifite amapine y'umukara.

Inzu nini cyane zifite amabara atandukanye, zifite inzugi nyinshi cyane zirimo ibirahure, munsi yazo hahagaze ibinyabiziga byinshi cyane kandi bitandukanye, hahagaze n'abantu benshi cyane kandi batandukanye.

Inzu nyinshi cyane zitandukanye harimo indende ndetse n'ingufiya, zifite amabati menshi cyane atandukanye, afite amabara y'umutuku ndetse n'umukara, aho hari iziteye amarangi ndetse n'izidateye amarangi.

Umuhanda munini cyane urimo igare ryikoreye imizigo, ndetse uri gutambukamo n'ibindi binyabiziga byinshi cyane, harimo ibitwara abantu ndetse n'ibitwara imizigo, uwo muhanda ukaba unyura munsi y'ikiraro.

Umuhanda munini cyane usizemo amabara y'umukara n'umweru ndetse n'umuhondo urimo ibimera bigufi cyane ndetse uri kwakamo amatara y'umutuku ndetse n'icyatsi.

Umuhanda munini cyane urimo amabara menshi cyane atandukanye arimo ay'umuhondo, umukara, ndetse n'umweru uri kunyuramo abantu benshi cyane kandi batandukanye.

Umuhanda mugari cyane urimo amabara atandukanye, harimo ay'umuhondo, umukara ndetse n'umweru, hari kunyuramo ibinyabiziga byinshi bitandukanye ndetse hateye n'ibimera bitandukanye bisa icyatsi.

Umuhanda munini cyane urimo amabara y'umuhondo, umukara ndetse n'umweru, uri kugendamo ibinyabiziga byinshi cyane bitandukanye, harimo ibitwaye abantu n'ibindi bitwaye ibintu byinshi bitandukanye.

Ibyatsi byinshi cyane, biteye hagati iruhande rw'umuhanda, urimo amabara y'umweru ndetse n'umukara, uri kunyuramo ibinyabiziga byinshi cyane bitandukanye.

Inzu nyinshi cyane, indende ndetse n'ingufiya, ziteye amabara menshi cyane atandukanye, iruhande rwazo hari ibimera byinshi cyane, ibirebire ndetse n'ibigufi, iruhande rwabyo hari umuhanda mugari cyane.

Umuhanda munini cyane urimo amabara atandukanye arimo umweru, w'umukara ndetse n'umuhondo, uri kunyuramo ikinyabiziga ndetse uri kunyuramo n'abantu benshi cyane batandukanye.

Umuhanda munini cyane urimo amabara menshi cyane kandi atandukanye harimo umweru umuhondo ndetse n'umukara uteyemo ibimera bitandukanye urimo n'ibinyabiziga byinshi cyane bitandukanye.

Umuhanda munini cyane urimo amabara y'umweru ndetse n'umukara, iruhande rwawo ndetse no mo hagati hateye ibimera birebire ndetse n'ibigufiya, uri kunyuramo ibinyabiziga byinshi cyane kandi bitandukanye.

Umuhanda munini cyane urimo amabara y'umweru, umukara, ndetse uteyemo ibimera bisa icyatsi, uhagazemo ibinyabiziga byinshi cyane kandi bitandukanye.

Umuhanda munini cyane, usizemo imirongo y'amabara y'umweru, iruhande rwawo hari ibimera, ibirebire ndetse n'ibigufi, bisa amabara atandukanye ndetse hari n'inzu ifite ibara ry'ubururu.

Inzu nini cyane ifite igipangu cyubakishijwe amatafari, iri iruhande y'umuhanda mugari cyane uhagazemo ibinyabiziga bibiri bifite amabara atandukanye.